Umugabo uri gufuhira inyanya umuti, kugira ngo azirinde indwara zitandukanye, ku buryo azabona amafaranga igihe ari kujya ku isoko zeze.

Umugabo uhetse ipombo ari gufuhira imyaka, kugirango ayirinde ubusimba butazayangiza.

Umuntu uri gushyira imvaruganda ku gihingwa, imvaruganda ituma abantu bagira ibihingwa byabo bigakura vuba.

Umuti w'imbuto zitandukanye witwa detani. Ni umuti urinda udukoko kuba twajya mu mbuto.

Gutera umuti imbuto cyangwa se ibihingwa, bituma umusaruro wiyongera, uri kurinda izo ndwara ibihingwa.

Umuntu uri gufuhira umuti mu nyanya kugira ngo azirinde udukoko tuzangiza, ngo zitera neza, kandi zigira amafaranga.

Imiti irinda udusimba kujya mu myaka. Imiti ni myiza cyane kuko ituma ibihingwa bikura neza, iri kwica udukoko tuba twagiye mu bihingwa.

Ubucuruzi bw'ifumbire mvaruganda bashyira ku myaka, kugira ngo ikure neza.

Imifuka myinshi irimo imvaruganda. Imvaruganda ikoreshwa bari gufumbira imyaka, kugira ngo izakure neza.

Imiti yica udukoko two mu bihingwa bitandukanye. Birinda udusimba, ku buryo bitaguteza igihombo.

Imiti yo gutera mu myaka, kugira ngo ikure neza, kandi itabamo udusimba dutandukanye.

Umugabo uri gufuhira imyaka kugira ngo itazamo udusimba tukaba twayangiza igapfa.

Umugabo umwe urigufuhira umuti mu mashu, kugira ngo ayarinde indwara azere ameze neza.

Umugabo yahetse ipombo, ari gufuhira umuti mu myaka, kugira ngo zitazafatwa n'indwara.

Umugabo uri gufuhira umuti mu mboga, kugira ngo azirinde ibyonnyi byazangiriza.

Isoko bacuruzamo imiti bashyira ku bihingwa, kugira ngo bayirinde indwara kandi igakura neza.

Gufuhira inyanya ukoresheje umuti bituma igihingwa gikura neza kiri kurinda indwara.

Amafi arambitse ku nkoko, ategerejwe kuyarya kugira ngo umubiri ukure neza.

Ifi itetse kandi iteguye neza ,abantu borora amafi babona amafaranga.

Inyama z'amafi zikundwa n'abantu benshi batandukanye, kandi zikaba zigira intungamubiri mu buzima bwa muntu.

Amafi matoya ari mu mabase, ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane kuko butanga amafaranga ku bantu babukora.

Amafi matoya ari mu kintu bayarobegamo, amafi ni meza cyane, kuko atanga amafaranga kuba barobyi.

Amafi ari muri barafu kugira ngo aho bayajyanye agereyo yujuje ubuziranenge.

Amafi abiri ari muri barafu kugira ngo agere iyo agiye agifite ubuziranenge.

Inyama z'amafi ziri ahantu bari kuzicuruza, inyama z'amafi zigira intungamubiri nyinshi cyane mu mubiri.

Amafi ni ubworozi bwiza, kandi inyama z'amafi zongera intungamubiri ku muntu.

Ubworozi bw'amafi ni numushinga mwiza cyane，utuma abantu bava mu bukene，kubera ko bigira amafaranga menshi， ku borozi b'amafi.

Amafi arambitse ahantu, hariho n'ibirungo, bigaragara ko aya mafi atetse.

Ifi bari guteka, amafi ni ibintu umuntu akora, bibyara amafaranga kuko amafi akunzwe cyane.

Amafi menshi matoya ari hasi. Ubworozi bw' amafi ni bwiza, batanga amafaranga menshi ku bantu bayorora.

Inyama z'amafi ziri muri barafu zimeze neza, kugira ngo abantu bazazirye n'abazigurishije babone amafaranga.

Ubwato bw'abapolisi buri mu mazi, bari gucunga umutekano wo mu mazi.

Amafi, amafi niubworozi bwiza batunzwe n'abantu benshi, kandi ndetse n'abantu benshi barayarya cyane, kuko inyama zayo zigira vitamine mu mubiri.

Ubworozi bw'amafi, amafi ari mu byuma kugira ngo atangirika. Biyarinda ko abantu bayarya akabatera indwara.

Ifi ririho barafu. Ifi ririho barafu kugira ngo ritagera aho rigiye ryangiritse.

Imifuka myinshi irimo amahera n'indangara ku bijyananye n'ubworozi bw'amafi. Hitanga amafaranga ku bantu bazicuruza.

Ifi ni ubworozi bwiza bukundwa n'abantu benshi, kandi ikaba igira intungamubiri mu mubiri.

Amafi abiri amanitse ku mugozi, biri kugaragara ko aya mafi ari kuyagurisha kugira ngo abone amafaranga.

Amafi ari mu kintu, amafi asa nk'atetse. Amafi ni meza cyane abantu bayaroba, bituma babona amafaranga.

Ubwato buri mu mazi, mu mazi hakorerwaho umwuga wo kugendera mu bwato, bambutsa abantu ndetse n'ibintu.

Ubworozi bw'amafi, ndetse n'inyama z'amafi, ni ibintu byiza cyane bikundwa n'abantu benshi. Ku buryo amafi aba afite amafaranga menshi.

Icyuzi baroramo amafi ,kugira ngo bazabone umusaruro wayo mafi ,ku buryo baziteza imbere.

Amafi abiri ari mu gasahani . Bari gushyiraho barafu . Amafi ni meza cyane ,atuma umuntu ava mu ubukene ku bayacuruza ndetse no kubayorora .

Ubwoko bw'amafi burambitse ku mifuka kugirango bazayagurishe, babonemo amafaranga.

Umurima basaruyemo ibigori, ariko bongeye guteramo ibindi bihingwa.

Igitari kitari cyakura, giteyemo intusi. Intusi zikoreshwa iyo zikuze kubaka ibiraro cangwa inzu.

Ibiti bivamo imbaho cyangwa se bakabyubakisha kugira ngo inzu ikomere, kandi ibiti bitanga amafaranga.

Amabuye bahonze akavamo garaviye. Amabuye nayo ni umutungo watuma ubona amafaranga.

Umurima wavuyemo ibigori. Ibigori ni byiza cyane, kuko abantu barabikunda, kubera bikungahawe ku isoko, kandi bikaba bivamo n'ibyo kurya.

Ahantu mu murima hahinze ibirayi, kugira ngo abantu ababinze ejo hazaza bazabone amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibitunguru. Ibitunguru bikoreshwa mu biryo bari gukaranga kugira ngo bibashe kurushaho kuryoha.

Umurima uhinzemo ibigori ariko ibigori barabisaruye, ibigori n'ibihingwa byiza, bituma umuntu ava m'ubukene kandi agateza imbere igihu.

Umurima basaruyemo igihingwa cyitwa amasaka. Amasaka ni meza akoreshwa mu kwenga inzoga.

Ubuhinzi bwa mararakuja, marakuja ni imbuto zikundwa cyane, ariko zidakunda na none kuboneka ahantu hatandukanye.

Umugore uri kuva uri kunyura mu nzira, inyuma ye hariho umuntu uri ku igare, inyuma yaho hari amashuri yubatse, hano hariho ahantu havuye ibihingwa.

Umurima basaruyemo ibigori, ibigori ni byiza cyane kuko abantu barabikunda kubera ko bivamo akawunga.

Ibiti biri mu bwoko bw'intusi. Intusi zikoreshwa ahantu henshi, nk'iyo bari kubaka. Kandi n'abaziteye bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Igihingwa kitwa ikigori, ikigori ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu benshi.

Ubwatsi butanga umusaruro n'amafaranga ku bantu babihingaga, cyangwa se babyorora.

Intabire iteyemo insina, ariko bazateramo n'bindi bihingwa, kugira ngo bibashe gukurana n'insina.

Icyuzi bororeramo amafi, kugira ngo bazayagurishe kandi banayarye, kugira ngo bagire intungamubiri mu buzima bwa bo.

Umurima wavuyemo ibigori. Hirya yaho hariho igitari cy'intusi. Ubuhinzi ni bwiza cyane butanga amafaranga.

Umurima urimo inka, umurima wagira ngo wasaruwemo ibihingwa. Guhinga ni byiza cyane, byinjiza amafaranga.

Ubwatsi bw'inka cyangwa se andi matungo , bwitwa Kamironi .Kamironi ni nziza ituma itungo rikura neza.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi bwiza butunzwe n'abantu benshi, ku buryo usanga hirya no hino ahenshi babukora.

Ubuhinzi bw'ibirayi, ibirayi ni igihingwa cyiza gituma abantu bava mu bukene, kandi bakanabona ibiryo.

Igiti kirimo igihingwa kitwa ikidodoki. Ikidodoki gishyirwa mu bwoko bw'imboga nziza.

Mu muririma uhinzemo amajyeri. Amajyeri ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abantu benshi, ku buryo ku isoko kiba gifite amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro. Ibinyomoro abantu benshi barabikunda， kubera ko byongera amaraso mu mubiri.

Ibiti biri mu bwoko bw'inturusi, ibiti ni byiza bitanga amafaranga, ndetse bakaba banabikoresha bari kubaka.

Umugabo ushoreye inka wambaye umupira w'umuhondo, hirya y'aho hariho umurima uteyemo ibihingwa by'ibirayi.

Ubuhinzi bw'ibirayi. Ibirayi ni ibihingwa byiza bikundwa n'abantu benshi, hirya no hino mu Gihugu.

Ubuhinzi bw'imbuto zitwa ibirayi . Ibirayi ni imbuto nziza zikundwa n'abatari bake hirya no hino.

Amajeri ashingiriye n'ibiti. Amajeri ni igihingwa cyiza gikura umuntu mu bukene, iyo ayagurishije cyangwa se akaba yabasha kuba yayarya.

Umurima uhinze ugaragaramo ko bateyemo imyaka. Ubuhinzi ni bwiza cyane, butumaga umuntu abona ibyo kurya.

Ahantu hari amajeri ahinze. Amajeri ni meza, atuma umuntu ava mu bukene igihe yeze, ari kubona amafaranga.

Intama ebyiri ziri mu rwuri, ahantu havuye ibihingwa bitandukanye, ibihingwa bitanga amafaranga ku bantu benshi.

Ubuhinzi bw'ibigori. ibigori ni byiza cyane kuko abana bakunda kubirya iyo byokeje cyangwa bitetse.

Ubuhinzi bw'insina. Insina ni nziza, zikoreshwa iyo bagiye gukama ku bitoki bakuyemo, cyangwa bakabirya.

Igitoki ni igihingwa cyiza cyane, gikundwa n'abatari bake, kandi kikaba kijyanwa ku isoko, kikaba cyabasha kubonamo amafaranga.

Inzu yubatse ahantu hirya y'aho hariho igiti kirimo imbuto z'avoka. Avoka ni nziza barazikunda kubera ko zigira amavuta.

Ubuhinzi bw'ibihaza. Ibihaza n'imbuto ikundwa n'abantu benshi, kandi ikaba igira amafaranga ku isoko, kubera abantu bakuru babikunda cyane.

Ubuhinzi butandukanye harimo karoti, ibigori n'ibindi byinshi. Ubuhinzi ni bwiza cyane, kuko butanga amafaranga.

Intoryi ziri mu kabasi. Intoryi ni igihingwa gikungahaye hano mu Rwanda, ndetse n'ahandi.

Abantu bari gukora mu murima, bari kubagarira ibihingwa bateyemo, kugira ngo bibashe gukura neza.

Iteke riri mu bwoko rya bwayisi, ni iteke rikundwa n'abantu benshi kubera uburyohe riba rifite.

Abantu benshi barimo gukora pepiniyeri y'inyanya, bari no kuzihinga kugira ngo bazabashe kwiteza imbere.

Abagore ndetse n'abantu inyuma yabo bari guhinga. Guhinga bituma umuntu ava mu bukene akabona n'ibyo n'ibimutunga.

Inyanya zitari zera, inyanya zirimo izigiye gutukura, inyanya ni nziza cyane, zivana mu bukene ku bantu bazihinga.

Umugore uri gukorera ibishyimbo kugira ngo ejo nibyera, azabone icyo arya bitarapfuye.

Inkwavu ni ubworozi bwiza butuma abantu biteza imbere, bajyanye no korora inkwavu, kandi bikaba binatanga inyama ku bantu bazikunda.

Inka ziri mu rwuri, harimo imwe y'umukara irimo utubara tw'umweru, n'izindi ebyiri ziri mu rwuri zisa n'igitaka. Inka ni nziza cyane zitangaga umukamo.

Ubuhinzi bw'ibirayi, ibirayi ni byiza cyane abantu barabikunda. Ubwoko bw'ibirayi ni bwinshi hari peko n'ibindi byinshi.

Abakobwa babiri barikurandura ingemwe z'intoryi kugirango bazijyane kuzitera mu murima, bazabashe kubona amafaranga.

Amafoto ane ari kugaragaza ibintu bitandukanye, iya mbere iri kugaragaza ukuntu uhinga ibigori, iya kabiri kubihunika, iya gatatu kubyanika, iya kane kubikoramo ibicuruzwa.

Isoko ririmo abantu batandukanye bari gucuruza imbuto ndetse n'imboga, hari abari gucuruzamo inyanya, n' amaronji, na pavuro n'ibindi bitandukanye. Ubucuruzi ni bwiza, butuma umuntu ava mu bukene.

Umugabo ufite igare ririho imyumbati minini, imyumbati ni igihingwa cyiza, gikundwa n'abantu benshi.

Umugore uri mu bihingwa ari kubikorera, ari gukuramo ibyatsi byamezemo kugira ngo bizakure bimeze neza.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda y'akazi, zisa n'icyatsi, bari kwahira icyayi, kugira ngo bakigemure ku isoko, babone amafaranga.

Abo bagabo babiri bari gupakira imodoka, bari gushyiramo ibitoki, kugira ngo bajye kubicuruza ku isoko, babone amafaranga.

Ibigori bihinze, ibigori ni ibihingwa byiza cyane bikundwa n'abantu benshi kandi batandukanye, ibihingwa by'ibigori bivana abantu benshi mu bukene.

Ubuhinzi bw'inyanya, umugabo wambaye igisurubeti cy'icyatsi uri gukorera inyanya. Inyanya zituma umuntu ava mu bukene iyo yazihinze.

Umugabo ufite inda nini, wambaye amarinete n'isaha mu kaboko, n'umupira w'umukara, basa nk'aho ari kugaragaza mu murima ukorerwamo ubuhinzi.

Abantu benshi bari gushyira ifumbire mu butaka.

Ibirayi biri mu mifuka. Ubucuruzi bw'ibirayi butanga amafaranga ku bantu babicuruza ndetse n'ababihinga.

Igihingwa cy'imbuto cyitwa amacunga, amacunga n'imbuto abantu bakunda cyane, kuko zivana mu bukene.

Imyumbati, imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, gituma umuntu ava mu bukene, akiteza imbere abinyujije mu buhinzi.

Umuryango w'ubucuruzi, umuryango bari gucuruzamo igitoki n'ibindi bihingwa n'imbuto biri mu mifuka. Ubucuruzi ni bwiza cyane butanga amafaranga.

Abagabo babiri n'umugore umwe bari guhinga, kugirango bazabashe kubona amafaranga mu gihe kiri imbere kizaza.

Abantu benshi batonze umurongo mu murima， basa nk'aho bari kwiga ku bintu bijyanye n'ubuhinzi.

Urubuto rwitwa ironji, ironji ni urubuto rwiza rukundwa n'abatari bakeya, kubera ko rugira vitamine rukaba runavura indwara.

Imbuto z'amapera ziri mu dupaniye bigaragara ko aya mapera bayajyanye ku isoko, kugira ngo babone amafaranga.

Umugabo uri gukorera amajeri ateye ku murongo，kugira ngo azere neza，akayarinda indwara n'ibindi byinshi.

Abantu benshi bari guhinga higanjemo abagore n'abagabo, bari guhinga ubwo buryo bwo guhinga ku murongo bari guca n'amaterasi.

Imbuto zitwa intoryi, intoryi n'imbuto zikoreshwa ku ifunguro bari kurya, kugira ngo umubiri ukure neza, abazihinga ngo babone amafaranga.

Ibitoki byinshi biri ahantu wagira ngo bategereje kubibura . Ubuhinzi bw'ibitoki butuma abantu bava mu bukene ndetse bakabona n'ibyo kurya.

Abantu bari gusarura ibigori, kugira bazabeteshemo agahunga cyangwa se bakabigurisha, bakabona amafaranga.

Umugore ufashe terefone n'itara mu ntoki, bisa nk'aho abibonye bishya. U Rwanda rwashyizeho gahunda ya buri rugo, kuba rufite amashanyarazi.

Ibirayi bitondekanyije bikuye, ibirayi ni byiza cyane bigiraga amafaranga.

Ibishyimbo bigufiya ni byiza, kuko byongera intungamubiri kugira ngo tubashe kubaho neza.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku, afite imbuto zitandukanye, wagira ngo ari kuzicuruza.

Inkoko imeze nk'aho ibaze, inkoko ni nziza zongera intungamubiri mu mubiri bigatuma umuntu akura neza.

Imbuto z'ibijumba, ibijumba ni imbuto nziza zikungahaye kandi zikundwa n'abantu benshi, kubera ko biryoha bikagira n'amafaranga.

Ubuhinzi bw'ingano ni buhinzi bugira amafaranga ku buryo abantu benshi bakunda kubukora kubera amafaranga abamo.

Abantu bari mu murima, bari gusarura imbuto y'ibigori . Ibigori ni byiza cyane bitanga umusaruro.

Abahungu babiri bari gukura ibirayi , ibirayi ni byiza cyane abantu bose barabikunda kandi bitanga amafaranga.

Ibisheke. Ibisheke ni byiza, abantu benshi barabikunda. Kuko bigira isukari, ndetse abantu babihinga bakabonamo amafaranga.

Ibihingwa by'imboga zitwa amashu. Amashu ni meza atuma abantu bivana mu bukungu bakiteza imbere.

Umugabo uri mu nyanya, ari kugaragaza uko zimeze, yambaye ingofero y'umweru, n' umupira w'umweru.

Abagore batanu harimo n'umugabo umwe, bari gukorera imbuto z'amashu, kugira ngo baziteze imbere.

Abantu bari kwanika ibigori kugira ngo byume, bazashyiremo cyangwa bakuremo akawunga.

Igisheke. Igisheke ni igihingwa kiza cyane， gikundwa n'abantu batari bakeya hirya no hino ku masoko.. ibisheke bivamo n'isukari.

Voka ni urubuto rwiza rukundwa n'abantu benshi kuko yongera vitamine mu mubiri, kandi ikaba ivamo n'ibintu bitandukanye nk'amavuta.

Umugabo uri kwaha ikawa. Ubuhinzi bw'ikawa ni bwiza cyane kuko butuma iterambera ry'igihugu ryiyongera.

Umugabo ufite ibigori ,avuye kubisarura. Ibigori ni byiza, bituma umuntu abona amafaranga iyo yabihinze.

Ubuhinzi bw'imbuto zitwa ibifene. Ibifne ni byiza, biraryoha, kandi bikundwa n'abantu batari bake.

Puwavuro, puwavuro ni imbuto abantu benshi bakunda guhinga, kubera ko zigira amafaranga, kandi zikaba zikunzwe na benshi.

Abakobwa babiri wagira ngo bavuye mu murima guhinga cyangwa gukura ibintu. Ubuhinzi ni bwiza cyane, kuko bubamo amafaranga.

Amapera ni imbuto nziza abantu benshi bakunda, kandi zigira n'amafaranga ku bantu bazihinga.

Igihingwa cy'amashu giteye, bategereje ko cyera bakakijyana ku isoko bakabona amafaranga, cyangwa se bakagiteka.

Amarongi, amaronji cyangwa se amacunga ni igihingwa cyiza kikaba n'imbuto ikura ikiza indwara, igakura n'abantu mu bukene.

Abantu bari guhinga basa nk'aho bari gutera imyaka, kugira ngo ejo hazaza habo hazabe ari heza.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye ku isi hose no mu Rwanda kubera ko buvamo ibintu byinshi.

Ibitunguru bikiri bitoya byo gutera. Ibitunguru ni imboga nziza zikundwa n'abantu b'ingeri zose.

Abantu benshi bari guhingira hamwe, kugira ngo bazabashe kubona umusaruro, bawukuye mu bihingwa bazahinga.

Abagore babiri n'umugabo umwe bafashe amashu. Bari kugaragaza ko ubuhinzi bw'amashu ari bwiza.

Inkoko ibundikiriye imishwi yayo kugira ngo itangirika. Umwuga w'inkoko ugiraga amafaranga menshi cyane.

Umugabo uhagaze mu murima urimo amatunda , amatunda ni igihingwa gifite amafaranga menshi kandi ni n'imbuto zirinda indwara.

Umukobwa cyangwa umugore wikoreye agafuka avuye guhinga. Guhinga ni byiza cyane bituma umuntu ava mu bukene akiteza imbere nk'abandi.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bose bafashe ibiti mu ntoki bya pipiniyeri.

Ibirayi bikuye biri mu bwoko bwa peko, ibirayi ni byiza cyane abantu barabikunda.

Ibirayi bipakiye mu mufuka, biri mu bwoko bwa peko, ibirayi ni byiza cyane abantu barabikunda.

Imbuto zitandukanye z'ahantu hamwe, harimo amapapayi, inanasi, amaronji na wotameloni, pome n'izindi nyinshi.

Igihingwa gisa nk'aho ari ingano, gihinze ahantu ku buso bunini. Guhinga bituma abantu bava mu bukene bakabona n'amafaranga.

Abagabo babiri n'umugore umwe bikoreye ibintu batwayemo imboga, n'umugabo utwayemo inyanya bavuye gusarura. ubuhinzi ni bwiza c butumaga umuntu yiteza imbere

Imbuto nyinshi ziri ahantu hamwe bita imyembe. Imyembe ni imbuto nziza kuko zivamo ji ziryoshye.

Pavuro ni imboga zikunzwe cyangwa urubuto rukunzwe ku isi yose kuko zitekwa mu biryo.

Umugore uri gukanda terefoni n'umugabo, bari gukorera imyaka yabo.

Abagabo batatu harimo umwe uri hagati, bazamura amaboko. Aba bagabo biri kugaragara ko bari mu bigori.

Ubwoko bw'imboga zikunze kuba ahantu henshi hatandukanye, zitwa isombe. Isombe irakundwa ku masoko atandukanye kandi igira amafaranga.

Umugore ufashe isuka usa nkuhetse umwana ari guhinga. Ubuhinzi ni bwiza cyane butuma umuntu ava mu bukene.

Umuhinzi w'umugore ufashe isuka n'amabasi atatu mu ntoki. Yambaye bote avuye guhinga ibihingwa bitandukanye, kugira ngo azabone amafaranga.

Abagabo babiri bari gukora raporo y'icyayi cyatunganyijwe n'abakozi bari kucaha. Icyayi gituma u Rwanda rwongera iterambere.

Urusenda ry'umutuku, urusenda ni rwiza cyane kuko abantu bararukunda kuko rutera ubushake bwo kurya kandi rugatanga amafaranga ku bantu baruhinga.

Abantu abahungu n'abakobwa, biri kugaragara ko bari guhura umuceri, n'abandi inyuma yabo bari kuwusarura bakoresheje umufuka n'amahema, bari guhura.

Abagabo batatu bari guhingira ibirayi. Ibirayi ni igihingwa gikundwa ahantu hose, ku buryo kigira amafaranga menshi.

Igihingwa kitwa umwembe, umwembe ni igihingwa cyiza cyane, gikundwa n'abatari bake kubera ko havamo imitobe myinshi.

Igihingwa kitwa imyumbati. Imyumbati abantu barayikunda cyane， kuko ivamo ubugari.

Umugore uhagaze mu bishyimbo ari kureba ukuntu bimeze, kugira ngo bizakure neza azabashe kubona umusaruro uhagije.

Imiteja y'ibishyimbo. Imiteja ni ibishyimbo biba bitarakura, bakabica bikiri bitoya, kugira ngo byorohe kubiteka, kubitekana n'ibindi biryo.

Imbuto y'ibigori bagiye gutera kugira ngo zizaze zimeze neza, baziteye umuti w'umutuku.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye, harimo inyanya, intoryi, ibitunguru nibindi byinshi, ubucuruzi butuma umuntu yiteza imbere.

Ibigori, ibigori ni igihingwa cyiza cyane gituma abantu bikura mu bukene. Ikigori ushobora kukirya cyokeje, cyangwa se bakagiteka cyangwa cyazuma bakazakoramo kawunga.

Umugore uri mu murima w'ibishyimbo, ibishyimbo ni byiza byongera amaraso mu mubiri, kandi havamo n'umushogoro wo kurya.

Ubuso bw'ubutaka bunini cyane, bukorerwamo akazi ko kororeramo ibyatsi.

Imbuto z'ubunyebwa ziri ku gasahani ariko zisataguje kugira ngo babone uko bazirya.

Amasaka ni ibihingwa byiza, bitanga amafaranga, kubera ko bikoreshwa mu nzoga, bari no kwenga umusururu.

Soya ni igihingwa cyiza gituma umuntu ava mu bukene, kuberako yayihinze akayijyana ku isoko bakamuha amafaranga.

Umugore uri guhungura ibigori, ari gushyira mu ibase, kugira ngo bajye kubibetesha cyangwa babiteke.

Imbuto zitwa soya, soya ni imbuto zikoreshwa mu bintu byinshi nko muri bife bari kuzitekamo.

Imbuto bari gupakira umufuka kugirango bazabashe kuba bazihinga bakabona umusaruro.

Igihingwa cyitwa amasaka, amasaka ni igihingwa cyiza, gituma abantu bakora inzoga, bakabona amafaranga.

Imbuto nyinshi ziri mu mifuka, bazitegereje ngo bazazitere. Gutera imbuto ni byiza bituma tweza.

Umugore uri kugosora imbuto, agiye kujyana gutera mu murima. Guhinga imbuto biba byiza cyane, kuko byongera amafaranga.

Ihunikiro ry'ibigori rifite amabati asa n'umutu, ibigori kubihunika bituma bitarwara, cyangwa mu gihe kizaza ntitugire inzara.

Umugabo wikoreye ibishyimbo biri mu mufuka, ufite n'umuhoro avuye gusarura ibishyimbo.

Ibishyimbo bya nyiramukara ni ibishyimbo byiza cyane biryoha, ku bantu bose, kandi bikaba binagira intungamubiri.

Ubunyobwa ni impeke zikunzwe ahantu henshi, kubera ko havamo n'ifu yazo bateka mu biryo.

Ubunyobwa, ubunyobwa ni imbuto nziza ikundwa n'abantu benshi kandi batandukanye, ubunyobwa bukoreshwamo ibintu byinshi.

Imbuto ziri mu mifuka myinshi zizwi nk'ubunyebwa, ni imbuto nziza zikundwa n'abantu batari bake hano hanze.

Ubunyobwa buri ku nkoko ,ndetse hirya y'aho hariho n'ubundi bunyobwa ariko bwo mubese.

Abantu babiri bari gutegura imbuto zo gutera kugira ngo bazabashe kubona ibyo bejeje.

Imbuto zo gutera zitwa soya. Soya ni nziza yane, kuko zigira amafaranga.

Inzuzi zikaranze ziri ku isahani. Inzuzi ni imbuto z'ibihaza bakuramo, bakaziteka bakoresheje urujyo cyangwa se bakazihinga.

Ihunikiro ry'ibigori, ibigori ni byiza bituma abantu biteza imbere, kandi bakaba banabibeteshamo gahunga cyangwa ifu y'igikoma.

Aha hari umudamu uri kugosorera ku nkoko.

Ubunyobwa bwinshi burambitse, ubunyobwa ni imbuto nziza itanga amafaranga ku bantu batari bake.

Ubunyobwa, ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abatari bakeya, kubera ko kiba kiryoshye, dore ko bagikoramo amavuta.

Ubunyobwa bumeze neza bazatera cyangwa bakabukaranga, cyangwa bukabeteshwamo ifu.

Ibishyimbo ni imbuto nziza, izamura ubukungu ku bantu ndetse no ku gihugu.

Imbuto y'ibigori . Ibigori ni imbuto nziza ikundwa n'abantu benshi kubera ko ivamo kawunga cyangwa ifu y'igikuma.

Abagabo babiri, bambaye ibisurubeti by'ubururu, bari gukorera imbuto ziteye kumurongo neza.

Ubunyobwa n'imbuto ikungahaye ku Isi hose ku buryo ikundwa n'abantu benshi ,kubera ibintu bivamo bitandukanye nk'amavuta n'ibindi.

Imifuka ipakiyemo ibishariro bakoresha bari gushyimo inkoko kugira ngo hatabaho umwanda.

Tugendeye ku mikurire y'imbuto ,iri kugaragaza uko imbuto uyishyira mu butaka, ikagenda irakura mu gihe gitandukanye.

Imbuto yitwa amasaka. Amasaka ni imbuto iba igiye gusa nk'umutuku, bakaba bayitera bayiminjiye kugira ngo ikure bagashiraho invaruganda, igatuma umuntu yiteza imbere.

Imbuto zitwa ubunyobwa, ubunyobwa ni imbuto zikundwa cyane cyane n'abantu benshi, kandi koko buraryoha.

Soya zitari zera batonoye maze barazisataguza kugira ngo bakoremo ibintu runaka.

Soya zameze kubera ko bazitumbitse ngo bazazitere, soya n'igihingwa cyiza gikundwa n'abantu benshi, kubera ibintu byinshi bivagamo.

Ibishyimbo birunze ahantu hamwe, bisa nk'aho bategereje kugira ngo babitere cyangwa kugira ngo babiteke.

Ibishyimbo bimeze neza ariko bitari byera. Ibishyimbo ni byiza bituma abantu benshi babona amafaranga.

Ibigori ni imbuto ikungahaye ku isi hose, kandi abantu barabikunda cyane, kubera ko bigira amafaranga k'ubantu babihinga.

Imbuto zitwa soya, soya ni imbuto nziza ikungahaye mu gihugu, kubera ko havamo ibintu byinshi bitandukanye.

Umuntu uhetse ibishimbo ku igare. Ibishyimbo ni imbuto ngandurabukungu ku bantu ndetse no ku gihugu.

Ibigori ni byiza cyane kuko bigira amafaranga ku bantu babihinga.

ububiko bw'imbuto zo gutera, imbuto zituma tubona ibihingwa tuzarya mu gihe kizaza, ndetse n'amafaranga.

Ibishyimbo, ibishyimbo ni imbuto nziza bateka kandi bakanayihinga, kubera ko ari ingandurarugo.

Amajeri, amajeri ni igihingwa cyiza cyane gikura abantu mu bukungu, ndetse n'abantu benshi baragikunda, abantu bari mu mijyi ndetse n'ahantu hatandukanye.

Ubunyobwa n'imbuto zikunzwe cyane,n' abantu benshi, kuko zigira amafaranga, kandi zikaba zifite n'isoko.

Ibishyimbo bikiri imiteja mitoya cyane, ibishyimbo bituma umuntu agira amaraso menshi mu mubiri.

Ibigori bihunitse, ibigori ni byiza cyane babibeteshamo kawunga cyangwa se ifu y'igikoma, bityo abantu bakamera neza.

Inka y'umweru n'umukara, inka ihagaze mu rwuri ,n'inka nziza itanga umwukamo uhagije.

Abantu babiri bari mu kiraro cy'inka. Ubworozi bw'inka butuma abantu bagira amafaranga, ndetse bikazamura ubukungu.

Urukwavu ruri kumwe n'abana barwo .Ubworozi bw'inkwavu ni bwiza cyane ,kuko butuma umuntu ava mu bukene.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube ni itungo rigufiya, ritanga amafaranga, ku bantu bazorora.

Intama iziritse mu rwuri iri kurisha, kugira ngo ikure neza ba nyirayo babone inyungu nziza.

Umwana uhagaze hejuru y'igipangu. Mu gipangu harimo inka. Ubworozi bw'inka ni bwiza cyane kuko zitanga umukamo.

Ihene ni itungo rigufiya ritanga amafaranga ku bantu batari bakeya, ku buryo buri wese aba aryishimiye.

Inkoko, inkoko zigomba kurindwa, zikagira nazo abaganga b'amatungo, kugira ngo zitandura indwara zitandukanye.

Inka iri mu bwoko bw'Inyambo, iri mu rwuri ifite amahembe manini cyane kandi yigonze.

Umugabo uri gupima umuti mu ipombo, agiye gutera inka kugira ngo azirinde indwara.

Umugore uhagaze, hirya mu kiraro harimo ingurube. Ingurube ni itungo rigufi rigira umusaruro mwinshi.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane ku bantu bazorora kuko zibahaha amafaranga, ndetse zikaba zitanga n'inyama.

Inkwavu eshatu ziri mu kibuti. Ubworozi bw'inkwavu butuma abantu bava mu bukene, ku bazorora kandi zigatanga n'inyama ku bantu bazikunda.

Injyana bari gutera urushinge kugira ngo bayivure indwara. Abaveterineri batera inka kugira ngo zibashe gukura neza, kugira ngo nabo babone amafaranga.

Abaganga batatu bari kuvura inyamanswa yo mu ishyamba yitwa ingagi. Ingagi ni nziza zizana amadovize mu gihugu.

Inka bari gufuhira umuti kugira ngo bayirinde indwara ziterwa n'uruhu.

Inkoku nyinshi boroye. Inkoko zigira amafaranga ku bantu bazorora.

Inkwavu eshatu ziri ahantu, inkwavu ni nziza abantu bazikuramo amafaranga bityo bakava mu bukene.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu uri gukorera inkoko. Asa nk'aho arikuzigaburira kugira ngo tubashe gukura neza.

Inzu zubatse neza, ziri kugaragaza ahantu bacururiza imiti y'amatungo.

Inkoko ni itungo rigufiya, ritanga amagi bakayagurisha, bakabonamo amafaranga.

Ingurube iri mu kiraro cyubakishije amatafari. Ingurube ni amatungo akura abantu mu bukene, kubera ko abwagura ibyana byinshi.

Inkoko zikiri ntoya zitwa imishwi, imishwi irakura zikajya zitera amagi, abantu bakazigurisha bakabona amafaranga.

Abavuzi b'amatungo bari gukingira imbwa mu kanwa, kugira ngo yirinde indwara kugira ngo ibashe kubaho neza.

Igikona nigisiga kiba hanze, kikaba gikunda kurya ibintu, bitandukanye harimo n'amashashi, gisa n'umweru numukara.

Ingagi ebyiri zicaye, ingagi nazo ziri mu mutungo u Rwanda rufite urwinjiriza amadovize.

Igikeri ni inyamaswa iba mu mazi. Yitungiwe n'amazi nta bindi bintu biyitunze.

Inyamanswa yitwa ingagi, ariko ifite igikomere mu mutwe n'ibyatsi mu kanwa, wagira ngo igiye kwihamuza.

Ingagi iri kurira igiti. Ingagi ni inyamaswa ikundwa no kurebwa na ba mukerarugendo, bityo ikinjiza amadovize ku gihugu.

Inyoni y'inyiramanza, ni inyoni yitonda cyane, ku buryo nta n'umuntu utabizi, kuko bavuga ko unayishe wahumana.

Inyamaswa iba mu ishyamba yitwa inguge. Ingunge ni inyamaswa igiye kumera nk'umuntu mu maso.

Inyamaswa yo mu ishyamba yitwa inguge. Inguge ni inyamaswa igiye kumera nk'umuntu ariko yinjiza amadovize.

Impyisi, impyisi ni inyamaswa yo mu ishyamba itinyitse kandi igira n'umujinya nabi izindi nyamaswa zirayitinyaga.

Ingurube isa nabi, bigaragara ko ari iyo mu ishyamba, ingurube zo mu ishyamba zigomba kugira ahantu ziba.

Inyamaswa ebyiri zicaye ku giti z'umweru n'umukara zitwa Inkende, Inkende zituma igihugu cyinjiza amadovize, yavuye kuri ba mukerarugendo.

Inyamaswa yitwa inkende. Urwanda rugira inyamaswa zirwinjiriza amadovizi. Bigatuma bashyiraho ibikorwaremezo mu Rwanda.

Inyamaswa yo mu ishyamba bita inguge. Inguge ni inyamaswa igendera hejuru mu biti iri kwifashisha amaguru n'amaboko.

Inyamaswa ibiri ziri kugenda zitwa intare. Intare ni inyamaswa zitinyitse mu ishyamba ryose, dore ko ari n'umwami w'ishyamba.